kwinaza umurama w'imbuto runaka abantu barabikunda cyane, kuko iyo winajije ujya guhinga utabanje kujya kugura ku isoko, ukagira imbuto nyinshi, ingemwe nyinshi. Ugasanga ahantu winajije hameze neza warahubakiye, warahasakariye kugira ngo izo ngemwe zawe zimere neza, nta kibazo zifite uzazigemure ujya kuzihinga, zizaguhe umusaruro mwinshi kandi ushimishije.

Guhinga ni byiza cyane nk'iyo uhinze uri umuhinzi w'umunyamwuga, ukurikirana imyaka yawe kuva ikimera, ugatangira ugafata ipombo, ugashimo umuti ukajya kuyifuhira, kuko uba wizeye ko uzayibonamo umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Imbuto ziba nziza mu mubiri w'umuntu iyo wazifashe ku buryo bukwiye. nk'umuneke, wotameloni gombo ku bagore, n'izindi.

Guhinga bijanye n'igihe bya kijambere, ni uko umuntu ahinga agakurikirana ibihingwa bye yahinze neza, akabikurikirana bikimera, akabitera umuti, akabifuhira, kugira ngo bizamuhe umusaruro mwinshi kandi ushimishije, abantu barabikundaga cane kuko umuhinzi ntabwo ajya yicwa n'inzara, ntabwo apfa gupfa.

Diyayigoro ni ifumbire nziza cane, iyo ukoresheje diyayigoro y'icyatsi ikihingwa kikimara kumera, gifite amababi abiri, gituma amababi atababuka kandi bikagira uruti rubyibushe, diyayigoro y'umutuku uyikoresha mu gihe ibishyimbo bizanye uruyange kandi bikera vuba.

Abize iby'ubuhinzi babikora neza, iyo imyaka bahinze yameze batangira kuyitaho batera imiti ikazakura neza kandi igatanga umusaruro mwiza ushimishije.

Ifi bamaze gukawusha mu mavuta bategereje kuyiteka neza. Iba isa neza cane, bakayishyiraho ibirungo bitandukanye na Salade.

Isosi y'ifi ni isosi nziza cyane abantu barayikunda cyane, ikagira intungamubiri nyinshi kandi zuzuye, kuko itarya buri wese umwana ntiyapfa kuyirya, ni ukubanza kubyitondera kugira ngo uyimugaburire ariko iyo yayiriye agira ubwenge, yaba mu gihagararo no mu gikuriro kandi akagira n'ubwenge.

Ahantu hari ibiti aba ari heza cyane nkiyo izuba riri kuva abantu bugamamo izuba bakajya mu gicucu cyaryo ugasanga bahaziritse n'amatungo kugirango arishe ubwatsi kuko ahantu hari ibiti ntihaburana n'utwatsi inka zikunda ugasanga hari n'ibigo by'amashuri ahenshi ugasanga ibyo bigo by'amashuri abana babyigaho bafata akayaga keza kava muri ibyo biti.

Ibihingwa bitanga amafaranga biba bishimishije cane kuko biguha amafaranga, kandi ukabona n'ibiryo kuko buri kimwe cyose uba wakibonye, kandi ukakibonera ku gihe.

Amashaza ari mu murima arasa neza cane, iyo yazanye uruyange ruba rusa neza. Amashaza araryohaga cane ni yo mpamvu abantu bayakundaga.

Imihati ni ibiti abantu bakunda gukoresha babishyira mu mbago z'amasambu, ugasanga ni imihati myinshi kandi yakuze neza, ugasanga ifite amababi meza cyane nk'aho bashyizeho ifumbire, ugasanga kandi n'ahantu biri ugasanga bafite amafaranga ugasanga mbese ibintu byose birahari, kuko ahera umuhati n'ibyo kurya byahera. igihingwa umuhati gikunze gukoreshwa bari kugabana amasambu.

Gutera ibiti ni byiza bituma umuntu yiteza imbere, bigatuma umuntu agira amafaranga. Niyo ibiti bimaze gukura akabigurisha bakabibazamo imbaho usanga bamuhaye amafaranga agatunga urugo kandi nawe akitunga kubera ko aba yarateye ibiti, kandi gutera ibiti ni byiza bituma mu isambu ye ayirinda isuri ugasanga imeze neza cyane.

Ibimera ni byiza cane kuko bikurura imvura tukabona imvura tugahinga tukeza cane cane iyo ibimera bizanye nk'amafaranga, ubona abantu bakize, ukabona abantu bafite ibyo kurya, bafite n'amafaranga. Tubungabunge ibimera tubyitaho kandi tutabyangiza.

Igihingwa cy'insina ni igihingwa cyiza cyane nk'iyo wahinze insina ugatera insina nyinshi, ukagira urutoki, ugira ibitoki byiza cyane, ukabigurisha amafaranga, ugakuramo amafaranga yaguteza imbere mu byo ushaka byose kandi nawe wakenera igitoki, ukaba wakibona kandi ukakirya ugikuye mu kwawe.

Ubuhinzi buba bwiza cyane kuko iyo umuntu yahinze ntabwo yicwa n'inzara, kandi ugasanga abonye ibiryo kandi agize n'amafaranga, ugasanga arahinze asaguriye n'amasoko, ugasanga ibintu bimeze neza cyane ugasanga n'uwagera iwe mu rugo atabura icyo amufungurira, kuko yahinze yejeje umusaruro ushimishije cyane.

Avoka ni igiti cyiza cane， kivamo inkwi zo gucana， kikavamo voka barya， iyo umuntu afite avoka kuri ubu aba yibitseho umutungo mwiza， kivamo n'amavuta

Ubuhinzi ni ikintu cyiza cyane kuko iyo umuntu yahinze nk'insina y'ibitoki yera ibitoki byiza cyane akabonaho ibitoki akarya insina zayo akaziha inka ugasanga abijyanye ku isoko akuyemo n'amafaranga ugasanga ubuzima bwe bukomeje kubaho neza kandi ugasanga n'amatungo ye nta kibazo afite.

Guhinga ni byiza cyane, bizana amafaranga, nk'iyo wahinze ibigori ukabisarura byumye, ugira umusaruro mwiza cyane kandi ushimishije, ugasanga ukuyemo ibyo kurya mu rugo, ugasanga usaguriye n'amasoko, kandi ibigori ni igihingwa cyiza cyane, kuko avamo igikoma, hakavamo umutsima, hakavamo kawunga, ugasanga ibintu ni byiza cyane, guhinga ibigori bituma umuntu agira iterambere.

Guhinga ni byiza cyane nk'iyo wahinze inzuzi usarura ibihaza byinshi cyane, ukabirya kandi birinda indwara ukagira n'amafaranga, iyo ubijyanye ku isoko ukuramo amafaranga kandi uba wariye rero buri wese aharanire guhinga kuko bigira amafaranga.

Amateke y'amazungu ateye inyuma y'inzu aba meza cane n'igiti c'isombe kuko biba byarabonye ifumbire rihagije n'umwotsi uza mu gikoni.

Ubunyobwa bufite intungamubiri nk'iy'ibishimbo, iyo uburiye uba uriye intungamubiri yuzuye.

Ibijumba n'ibirayi ni ibiryo byiza cane, kuko bitera imbaraga umuntu wabiriye, ajya guhinga umushike nta kibazo afite, agataha yumva agikomeye mu nda harimo akantu.

Avoka n'imineke ni imbuto nziza cyane kandi zigira uburyohe. Iyo umuntu amaze kurya ibiryo, akarenzaho urubuto rwa avoka cyangwa umuneke aba ariye neza, kuko aba ariye n'imbuto akarya n'byubaka umubiri.

Amasaka y'amamera aba meza cane. Iyo wayinitse neza, ukayinura, ukayanika, avamo ikigage cyangwa umusururu biryoshye cyane kuko aba yumye.

Guhinga kijyambere ni byiza cyane, kuko biguha umusaruro mwiza kandi ushimishije, nk'iyo wahinze ibigori abafashamyumvire bakakugira inama y'uko ugomba kubihinga, ukabihinga neza kandi ukabihinga kuri santimetero zagenwe, ugira umusaruro mwiza kandi ushimishije. Ukabifumbira neza ugakoresha n'ifumbire zitandukanye, kugira ngo uzakuremo umusaruro ushimishije, abantu barabikunda cyane kuko bibateza imbere.

Amatunda ni imbuto nziza, yaba ku bana, yaba ku bakuru, iyo wagihinze kikera biba bimeze neza cane, ukuramo umusaruro ushimishije.

Amatunda n'imbuto nziza cane yera ahantu ho mu misozi nka burera na gakenke. Amatunda umutobe wawo ni ingirakamaro nko kwa sina kuri Nyirangarama barawukoresha cane kandi amatunda atuma abana bagira apeti ubwo ku bana batoya amatunda ni meza cane.

Ubworozi bw'inkoko ni bwiza cyane abantu barabukunda cyane, kuko iyo woroye inkoko ntabwo urwara indwara zipfuye kubaho z'imirire mibi, kuko uba warariye amagi, uba warariye umureti, abana bakabaho neza bagakura bishimye, kandi banezerewe . Izo nyama z'isake bakazibona dore n'inyama zarahenze ukiri ibyo bisake inyama ntiwirirwa ujya kuzigura ku isoko.

Ibihingwa by'ibirayi n'ibihingwa byiza cyane, bizana amafaranga, ugasanga umuntu yagize amafaranga, kuko bigira umusaruro mwinshi cyane kandi ushimishije, n'ibirayi bya kinigi iyo wabihinze uba ubona nta kibazo ku ifiriti urabirya ukumva nta kibazo wabiteka mu mvange ukabona n'ibirayi bikomeye ugasanga umuntu wabihinze agize umusaruro mwinshi cyane ushimishije, kandi yashyizemo inyongeramusaruro, ugasanga ni byiza cyane, buri wese aharanire...

Umuhinzi agiye guhinga, ari kwitaba terisoni, ari hafi y'ibigori, abihagaze iruhande.

Iyo umuntu ageze mu murima agiye guca amashu, areba amashu gakomeye kandi gafite ireme kuko niyo aba yeze cane.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, nk'iyo uhinze imbuto zitandukanye, cyangwa ugatera ibiti bya voka, ukabihinga neza, ugahinga avoka zateguwe arizo z'imbangurire, ugira umusaruro mwiza cyane, kandi n'abantu mu isoko barazikunda cyane kuko ziraryoha.

Ubworozi ni bwiza cyane iyo woroye neza kandi ubikunze ugira umusaruro mwinshi kandi ushimishije, ugasanga nk'iyo woroye inkoko ukayorora ari inkoko imwe ikakubyarira inkoko nyinshi cyane, kuko iyo nkoko iyo iteye amagi urayirariza, igaturaga amagi ikavamo udushwi twinshi cyane, ukagira amafaranga kandi n'amagi warariye nta kibazo ufite, kandi ari inkoko imwe gusa woroye korora ni byiza cyane.

Ibihingwa biri mu isoko biba bishimishije cyane, kuko ugerayo ukabona bibereye amaso nk'ibirayi, pwavuro, imiteja ,karoti ugasanga ni byiza cyane, aho biri ukumva wabiteka, wabihaha ukajya kubiteka kuko biba byaravuye mu buhinzi, abahinzi tugomba kububaha kuko baduha ibyo kurya kandi batabayeho n'amasoko ntabwo twayabona, bahinzi tubakunde kandi tubigireho natwe tubashe guhinga.

Izo avoka ziraryoshe cane, zirasa neza, n'uru runyanya, bagiye gukora sarade yo gushyira ku biryo.

Imbuto za pome ziba nziza cane iyo zikiri mu murima ziri ku mashami yazo, kuzireba ubona zishimishije, kandi pome igira akamaro kanini mu mubiri w'umuntu.

Amatunda n'imbuto nziza zera ahantu ho ku kabuye cyangwa ku musenyi. Muri Burera no mu Gakenke zikunda kuhera cyane.

Imbuto ya pome ni nziza mu mubiri wumuntu, iyo uyiriye bituma umererwa neza mu mubiri, ukumva uranezerewe.

Imiteja ni imboga nziza cane, abantu barazikundaga cane! Iyo wazitetse neza, ugashiramo udukararoti, n'udushimbo turinganiye, ntiwayivaho.

Umuhinzi iyo yahinze ntabura ibyo kurya mu nzu kandi ntabura ibyo asagurira amasoko, usanga umuhinzi ameze neza cyane n'iyo yahinze ibirayi ugasanga arimo arabibagarira arabishyiraho agafumbire. Usanga ameze neza cyane kandi n'iyo umusubiye mu rugo ntiyabura ibyo agufungurira cyangwa akuzimanira kuko aba yarahinze ibyo birayi. Usanga umuhinzi ahantu ari hose yihagazeho kuko ntajya apfa gupfa.

Umuhinzi uhinga amatunda aba ameze neza cane! Iyo yayasaruye, aba ameze neza, kuko ntago yahura n'ubukene, yarahinze amatunda.

Amapera ni imbuto zera cyane iyo ziri ahantu heza kandi hafite ubutaka buseseka. Amapera arera cyane ariko si meza kuyarya kubera ko atera igifu. Iyo umuntu yayariye bisaba no kurya no kunywa amazi menshi ,kugira ngo ataza gukomererwa akaba yarwara, no kujya kwituma bikanga.

Ibigori bya iburide biteye neza ku buryo bwa kijambere, byera bifite umusaruro mwinshi ushimishije, ku buryo buri wese abibona bikagaragarira ijisho rye.

Amapera ya kinyarwanda ntago aba meza cane, kuko iyo wayariye ukarya menshi agutera igifu mu nda hakakurya ukumva uhise urwara igifu.

Abahinzi bari gusoroma icyayi, bari kugisoromera mu dutebo bari kugisarura neza.

Ipera rya kizungu, ni ipera riryoha cane, iyo waririye ntiwakwifuza kurya ipera rya kinyarwanda kuko riraryoha, kandi ntabwo rikunze gutera igifu nk'ayandi yose.

Inanasi ni igihingwa cyiza cane, kigira umusaruro kandi kikavamo umutobe uryoherera. Iyo batemye inanasi abahinzi, amagare arazitunda akazijana ku isoko kuzishakamo amafaranga.

Guhinga ni byiza cyane, bizana umusaruro mwinshi cyane ushimishije, bigira amafaranga, ugasanga abafashamyumvire bagiye kureba ukuntu bahinga, ugasanga bari kubyigiraho, ugasanga ibishyimbo bigufi bimeze neza cyane, bifite umushogoro mwiza ukeye ,ugasanga bashyizemo inyongeramusaruro, kugira bizakunde bigire umusaruro mwinshi cyane ushimishije.

Imbuto ziri mu isoko iyo uzibonye ubona zishimishije cyane, nk'imbuto z'ibinyomoro cyangwa imbuto za wotameloni usanga ari imbuto nziza cyane, kandi n'iyo abantu baziriye zibagirira akamaro nko kubongerera amaraso, nko gutuma abantu bituma neza. Usanga ari byiza cyane buri wese aharanire kurya imbuto mu buzima bwe, kuko zigira amafaranga zikagira n'ubuzima zubaka mu mubiri w'umuntu, kandi duharanire no kuzihinga.

Puwaro n'ibitunguru byiza cyane bikunze kubera ahantu aho ari hose ugasanga birorotse kuko niyo watera agatsinsi kamwe kaguha ibitunguru byinshi cyane ugasanga umuntu ntugiye kugura ibitunguru ku isoko ugiye urasoroma hepfo y'urugo cyangwa hino y'urugo puwaro ugateka ugasanga bihumuza ibiryo cyane kandi kubera ko byororoka buri wese abihinze byanatanga n'amafaranga kuko byororoka.

pavuro y'umutuku ni nziza cyane abantu barayikunda cyane nk'iyo wayitetse mu biryo igaragaramo nk'urusenda cyangwa ikagaragaramo nk'inyanya kuko iba yabitukuje ugasanga ni nziza cyane iyo watetse pavuro y'icyatsi biba akarusho ushyizemo na pavuro y'umutuku kuko nayo ni nziza cyane ku buryo bituma ibiryo bisa neza inkayo wazihinze zigira amafaranga menshi cyane ukazijyana ku isoko ukabonamo amafranga

Abafashamyumvire baja bafata umwanya bagakora urugendoshuri, bakajya kureba uko babungabunga ibidukikije, nk'ibiti by'imyembe, n'ibindi bitandukanye...

Ubuhinzi ni bwiza cane iyo umuntu ari umuhinzi ntagira inzara cyangwa ngo asonnze. Ahorana ibiribwa mu nzu akagira n'amafaranga, iyo umuntu aje amugana ntabura icyo amufungurira; kuko ibiribwa aba abyejeje kandi abifite.

Umuhinzi wahinze mu buryo bwiza kandi bukwiye bwa kijambere abona umusaruro ushimishije. Abantu bakunda cane guhingisha ifumbire maze ubundi bakawukuramo umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Iyo uri kureba amagi menshi ubona asa neza cane. Gufata igi rya buri munsi cyangwa kabiri mu cyumweru aba ari byiza cyane uba uri kurya intungamubiri.

Igitoki cya fiya ni igitoki kirekire kandi kigira umuneke ubyibushye cyane. Iyo wateye insina ya fiya ni ko yera ugasanga ugize umusaruro mwinshi kandi mwiza kandi ushimishije. Ukareba ugasanga ukuyemo amafaranga kandi n'abana mu rugo ntibabura icyo barya , imineke bararya bagasagurira n'amasoko.

Guhinga ibirayi ni byiza cyane bigira umusaruro mwinshi cyane kandi ushimishije, niyo wahinze ibirayi bya kinigi ukuraho ibirayi binini cyane ugasanga ubijyanye mu isoko abantu barabyishimiye cyane barakuranguriye cyangwa barakuguriye ubonye amafaranga menshi, kandi no mu rugo abana barariye kuko biba byaraguhaye umusaruro mwinshi cyane ushimishije.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni ubuhinzi bwiza cyane iyo wahinze ibirayi bikera usarura amatoni n'akatara amatoni ukajyana ku isoko ukagurisha umusaruro uvuye muri ibyo birayi uba ushimishije iyo umuntu abirebye aba abona biteye ubwuzu akagurisha kandi agasagura n'ibyokurya akarya kandi n'abana bakarya bagabwa akabonamo n'amafaranga.

Guhinga ni byiza cyane, abantu barabikundaga cyane, kuko bizana amafaranga, kandi bigatuma umuntu ataba inyanda, kugirango akore, yiteze imbere, ateze imbere n'igihugu cyacu, ugasanga abantu barabikunze cyane kuko bibaha ibyo kurya kandi bikabaha n'amafaranga.

Ubuhinzi ni bwiza cyane abantu barabukunda cyane, kuko iyo wahinze nta muhinzi upfa gupfa ,uba ufite ibyo kurya mu nzu cyangwa no hanze ,kandi iyo umuntu ageze iwawe uramufungurira ku byo wahinze kandi wejeje, kuko uba warihaye ntacyo ubura, n'amafaranga uba uyafite, kuko ibyo uhinga bishobora kuguha amafaranga.

Ibihingwa by'ibirayi ni ibihingwa byiza cane iyo byezeho ibirayi, abantu babijyana ku isoko bakabonamo amafaranga ashimishije, kandi bakaba bakiteza imbere bitewe n'amafaranga bakuye muri icyo gihingwa cy'ibirayi, abahinzi babihinga bahorana ibirayi mu rugo nta bajya babura n'ibyo barya kuko baba barabihinze.

Indimu iteye mu butaka bwiza irera cyane, ikagira umusaruro mwiza ushimishije. Kandi indimu igira agaciro kenshi cyane, ibamo umuti, kandi iyo umuntu yabyibushye cyane, arayikoresha agakunda kuyirya kugira inda itubanuke. Uganga indimu rero ifite akamaro kenshi mu mbuto zose zibaho. Indimu ifite agaciro gakomeye mu buzima bw'umuntu. Iyo ayikoresheje bituma hari indwara zimwe na zimwe yirinda.

Ibijumba ni ibihingwa byiza cyane, abantu barabikunda cyane, kuko iyo ubyejeje abana barabikunda, ugasanga buri wese ari kubirya abyishimiye, kandi abikunze, ibijumba by'umutuku cyane cyane bakunda no kubikuramo ibindi bintu bitandukanye, ugasanga babikozemo n'amandazi, cyangwa imikati, ugasanga bitanze amafaranga ku babihinze neza cyane.

Imboga z'amoko yose zisasuza mu isoko kuko uhasanga imboga zitandukanye, uhasanga ibitunguru, ukahasanga imiteja, ukahasanga karoti, ukahasanga intoryi byose ukabihasanga ku biciro bike kandi byiza, kandi buri muntu wese wazihinze zigira amafaranga azajya arayakuramo kuko yazijyanye ku isoko ayabonamo menshi kandi ashimishije kuko yazihinze, nta handi wazikura utari.

Ubunyobwa budatanoye ntabwo bubangutse kubuteka. Ariko ubunyobwa butonoye bubangutse kubuteka no kubuhekenya.

Ibinyamisogwe ni imyaka myiza cyane, kuko iyo wayihinze ahantu heza kandi yishimiye, irera cyane ikagira imishogi myinshi. Ukayisarura, ugahura, ukabona n'umusaruro mwinshi kandi mwiza ushimishije.

Imbuto z'imikeja aba ari nziza cane kuko abantu barazikundaga cane iyo wazitetse nta hantu utazikoresha nk'imboga, nta biryo utazirisha kuko ahantu hose wazirya kandi ukumva zimeze nk'imboga.

Ibishimbo biteye ku matarasi magufi bifite umushogoro mwiza cane! Kandi umushogoro uraryoha iyo wawudibuye neza ukagereka ho n'ibijumba.

Impeke z'ingano ni impeke nziza cyane abantu barazikunda cyane zivamo umutsima ndetse n'igikoma kiryoshye, zikunze kwera ahantu ho mu misozi iyo wazihinze neza ukazitaho ukazifumbira, ziguha umusaruro ushimishije ugakuramo amafaranga, ndetse ukagira n'ibyo kurya mu rugo.

Impeke z'ingano ni impeke nziza cyane, zigira umutsima kandi zikagira igikoma kiryoshye. Iyo ingano wazihinze ahantu heza, zirera kandi zikaguha umusaruro mwiza kandi ushimishije, ugasanga ugize amafaranga, ugasanga kandi ntubuze ibyo kurya mu rugo kuko wahinze impeke z'ingano.

Isoko ry'impeke aba ari ryiza cyane, usanga hari n'imifuka myinshi cyane, abantu bakaja kugura ,ugasanga impeke nyinshi nyinshi cyane abazejeje babonye amafaranga n'abari kuzicuruza bakabona amafaranga. Kuko impeke ni ibiribwa bikunze kugugwa akenshi nk'ibishyimbo, usanga buri wese akenera ibishyimbo mu rugo rwe, akabigura akabiteka ka akabirya kuko ibishyimbo ari ngombwa kandi ari ingenzi.

Ubunyobwa buraryoha cane iyo wabutetse mu gitoki. Kubuhinga bwerera hasi, urabuhinga wamara kubuhinga bukazaraba bwamara kuraba urwo rurabo ukarutaba, rukazavaho ubunyobwa.

Ibigori iyo byeze abantu barahunika, ugasanga bifite umusaruro mwinshi cyane kandi ushimishije. Iyo wateye imbuto nziza ugira na we umusaruro mwiza, ugasanga abantu bashyize mu buhunikiro, kugira ngo inzara itazatera bakabura ibyo barya, kandi ibigori bivamo igikoma, kandi wabiryamo n'umutsima. Tubungabunge ibigori tubihinga, tugire umusaruro mwinshi kandi mwiza ushimishije.

Ubunyobwa iyo bukaranze buraryoha cane kuko buba bwakubiswe n'akuka ko mu imusafuriya, bugatera apeti ku buryo wahekenya n'ikiro ukimara.

Ubuhinzi ni bwiza cyane kuko nk'iyo impeke zeze mu mirima abana baraterana bakaja kuzisarura, ugasanga barishimye, baranezerewe ,kuko bararya bagahaga nta kibazo bafite.

Impeke ni ibihingwa byiza cyane. Iyo umuntu yahinze impeke ntagira inzara, kandi ntasonza, kandi n'umuntu ugeze iwe aramufungurira, kuko impeke ntizijya zituba cyangwa ngo zirumbe. Utwo ukuyemo twose tukugirira umumaro kandi ukaba wasaguriraho n'abandi.

Ikawa ni igihingwa gishimishije, usanga abantu bagihinze bafite ubukungu burenze ubw'abandi, ugasanga ikawa irakenerwa ahantu hose, yaba hanze, yaba mu Rwanda, yaba no mu mahanga barakenera igihingwa cya kawa, kubera ko bazikuramo ibintu byinshi bitandukanye.

Ubunyobwa ni impeke nziza cyane, abantu barazikunda cyane, yaba kuziteka mu biryo cyangwa kuzihekenya, wazihekenya ari mbisi cyangwa ukazihekenya zikaranze, byose biraryoha kuko ubunyobwa ni impeke, zikunda kwera ahantu nko mu majyepfo, usanga ahantu hose barazihinga kandi zigira, umusaruro mwinshi kandi ushimishije.

Inyanya ni igihingwa cyiza cyane kandi iyo wagihinze gikunze kwera kikagira umusaruro mwinshi cyane kandi ushimishije, ugasanga ugize amafaranga ugasanga ujyanye ku isoko n'abantu babonye inyanya zo kugura, kuko hariho abantu benshi bazihinze ugasanga no mu rugo kandi nta kibuzeyo kuberako iyo uzijyanye ku isoko ukuramo amafaranga, nawe ukaba wayahahisha ibindi byiza kandi wifuza.

Igihwagari n'igihingwa cyiza cyane, gikunze kwera mu Burasirazuba cyangwa i kibungo, usanga abantu babihinze, bagira umusaruro mwiza, kandi ushimishije, ziriya mpeke zacyo urazikaranga, ukazisekura mu isekururo, cyangwa ukazisya ku rusyo, ugakuramo ifu yazo, ukayiteka mu biryo, usanga ibiryo biryoshye nk'ibyo wasizemo ubunyobwa. Kandi igihwagari ni cyiza cyane bagikuramo amavuta yo guteka.

Igishyimbo cya nyirakigota ni igishyimbo cyiza cyane, abantu baragikundaga cyane kuko kigira n'uburyohe butandukanye nu bw'ibishyimbo, ugasanga nk'ahantu cyamezi ari kimwe cyangwa wagiteye usanze cyeze umusaruro mwinshi cyane kandi ushimishije, ugasanga kimeze neza cyane, ugasanga gifite urushimbo runini, imbere mu gishishwa ukabona kibereye ijisho cyangwa inonore yacyo ukayirya ukumva urishimye.

Ingano ni igihingwa gikunze kwera mu misozi nka za Gakenke, na za Burera agace kamwe.

Impeke nk'umuceri abantu barazikunda cyane, no mu Rwanda ubu dusigaye tuwuhinga, usanga abantu bawuhinga bagira umuceri mwiza cyane, ugasanga ni ikiribwa gikunzwe kandi gihendutse abantu bose bakakigura kandi bakakirya kuko aba ari cyo kigezweho.

Ikawa ni igihingwa cyiza cyane, uwayihinze ntasonza kandi ntakena. Ikawa abayihinga bahorana amafaranga, kuko ni igihingwa ngandurarugo.

Impeke za soya ziba nziza cyane abantu barazikunda cyane, kuri ubu nta muntu jya kubetesha igikoma adashyizemo soya, kuko iyo washyizemo soya iba ihumura ugasanga igikoma kiraryoshye, kandi soya si aho gusa ikora, ikora no mu biryo ugasanga ibiryo birahumura neza, kuko soya ari ingirakamaro iminyamisogwe ya soya rwose abantu bayihinze byarushaho kuba byiza kugira.....

Amasaka ni ibihingwa byiza cyane abantu barabikunda cyane nubwo bitera aho bibonye hose usanga nk'iyo umuntu yabihinze anyweye umusururu, anyweye igikoma, anyweye ikigage, anyweye, ubushera ugasanga ibintu bimeze neza cyane ntacyo abuze mu rugo n'amafaranga arayabona kuko yahinze amasaka kandi akamuha umusaruro mwinshi cyane ushimisha.

Amashaza cyangwa amajeri ni meza cyane, abantu barayakunda cyane, kuko akundwa n'abantu benshi, impamvu bayakunda araryoha cyane, ugasanga nk'amashaza barayahinze. Ziriya mpeke zayo zigira akamaro kenshi cyane mu mubiri w'umuntu, kuko zibamo ibitera indwara, ibyubaka umubiri, ugasanga amashaza afite agaciro kenshi cyane.

Ibigori by'umuhondo iyo wabihinze bigira umusaruro mwinshi cyane kandi ushimishije. Ugasanga iyo wateje ifumbire cyangwa inyongeramusaruro ubonye umusaruro mwinshi cyane, kandi ugushimishije kandi biraryoha cyane. Ngiyo wakiriye cyokeje usanga gifite intungamubiri, ugasanga kiraryoshye.

Ibintu by'impeke biba byiza cyane kuko babitamo ugasanga babesemo n'ifu, abantu bakabirya mu buryo butandukanye; ukaba wakora ubugari, ukaba wabinywamo igikoma, mbese ugasanga ahantu hose bifite akamaro, kuko iyo wabihinze bikera bikambuka, nawe ugira umusaruro mwiza cyane ushimishije, ukabijyana ku isoko bakabigura neza kandi bishimye, nawe ukabona amafaranga meza ashimishije kuko wabihinze neza.

Amasaka ni igihingwa cyiza cyane cyera mu karere ka Musanze. Kigira impeke zisa n'umutuku, kikagira amababi maremare nk'ay'urubingo asa n'icyatsi, kikagira uruti rugiye rucagaguyemo ingingo ndende cyane. Amasaka avamo umusururu, abantu barawukunda cyane.

Amashaza ni igihingwa cyiza cyane, abantu baragikunda cyane. Iyo wayahinze ukayashyiramo inyongeramusaruro ishimishije, ubona umusaruro ushimishije, ugakuramo impeke nyinshi z’amashaza, ukajyana ku isoko ukabona amafaranga, kuko abantu barayakunda, yaba mu byo hanze yaba no imbere mu gihugu. Usanga igihingwa cy’amashaza, usanga impeke zayo abantu bazikunda cyane kurusha ibishyimbo.

Iyo veterineri ari kuvura itungo, yambara ga, akayifata neza, akayiha umuti, igakira.

Inka ziri mu rupangu ziba zitonze kuko zitabona uko zinyeganyeza. Abashumba bazo baba bafite inkoni kugira ngo niramuka isaze, bayitange, bayigarure.

Ubworozi bw'inkoko buba bwiza cyane, nk'iyo woroye amasake usanga ufite amafaranga, ugasanga ufite inyama, ugasanga nta kintu ubuze mu rugo. Kuko iyo uba ufite amafaranga uba ufite byose, ugasanga wazihaye umuvuzi w'amatungo arazivuye, azihaye imiti, azirinze kurwaragurika. Ukagira nyinshi cyane, ukaguka ukagira amafaranga menshi cyane.

Amagi ari ku matureye bari kuyaterura buri wese agaterura ayo ashoboye bakayatwara bakajya kuyapakira bari kunyura mu muhanda.

Ingurube iyo yabyaye ibyana byinshi ikaja kubyonsa iraryama amabere akagaragara kugira ngo yonse neza nyiri ingurube akajya mu kiraro akareba ko ingurube iri konsa ibyana byayo.

Ubworozi bw’inkoko ni ubworozi bwiza cyane, kuko iyo utunze inkoko mu rugo, n’abana uko zigenda zikura birabashimisha. Ugasanga umwana ari kuzikinisha, bitewe n’uko abona inkoko imeze neza. Ugasanga uzihaye abavuzi bazo, bazihaye imiti, bazirinze indwara. Ukagira inkoko nziza, zikaguha umusaruro ushimishije. Ukarya amagi, n’abana bakayarya, mukagira ubuzima bwiza.

Ubworozi bw'amatungo ni bwiza cyane, nk'iyo woroye inka z'inzungu usanga zimeze neza cyane, ukazihamagarira abavuzi bazo, bakazibungabugira umutekano, bakakubwira ibyo zikeneye kugira ngo zibeho neza, kandi zizaguhe umusaruro ushimishije.

Inkoko n'ihene ziri mu rugo aba ari byiza cane, iyo ubirebye inkoko ziri gutora, ihene ziri kurisha ubona ari ifoto ikeye.

Ubuvuzi bw'amatungo bugezweho muri iki gihe, iyo umuntu yoroye aba abizi neza kandi abikunze cyane cyane korora inkoko ni byiza cyane ndabikundaga, kuko inkoko ziguha amagi ukagaburira n'abana bakagira intungamubiri mu mubiri wabo, kandi ukarya nawe amagi neza ukagira intungamubiri.

Itungo ry'ingurube ni itungo ryororerwa mu rugo abantu bararikunda cyane, kuko rikunda kugira ifumbire y'imborera ugasanga nk'iyo umuvuzi w'amatungo yayigezeho akakubwira ibyo usabwa, kugira ngo ikunde ikure urayibiyiha akayitera urushinge kugira ngo izabyare ibyana byinshi, ugasanga ibyo byana urabigurishije ukuyemo umusaruro ushimishije cyane.

Inka zigira amahembe nziza cane, ariko ayo mahembe abantu bakunze kuyatinya ,kuko hari igihe yakwesura ikakwica.

Iyo ufite ihene nyinshi aba ari umukumbi w'ihene zikajya kurisha, ukajya kuziragira ahari ubwatsi zikaburisha.

Ingurube n'itungo ryororerwa mu rugo ugasanga aho ingurube iri imeze neza cyane, n'inyama zazo ziraryoha cyane abantu barayikunda cyane ariko ingurube ni itungo ryororoka cyane kandi rikororoka vuba, iyo ufite ingurube ukayishakira umuvuzi w'amatungo akayitera intanga ugasanga yabyaye ibibwana byinshi, noneho kugira ngo byonke iraryama ikagarama kugira ngo buri kimwe cyose gifata ibere ryayo.

Urukwavu rugira inyama ziryoshe iyo warugaburiye neza rugakura rugira nyama，uzifite mu rugo ntiwakirirwa uvuga ko nta nyama ufite．

Inyamaswa zitororerwa mu rugo ubona ari nziza cyane kuko nta hantu uba ukunze kuzibona, ubona zimeze neza kandi zidukurura abakerarugendo kuko badusigira amafaranga ugasanga aho ziri zimeze neza, ugasanga ziba mu ishyamba cyangwa ziba mu biti bitandukanye kuko ziba zitororerwa mu rugo, buri yose itaha aho ibonye ariko ntitaha mu rugo, iba mu kinani cyangwa mu gasozi.

Igikeri ni inyamaswa itororerwa mu rugo, iba mu mazi kandi kikagira amagaragamba ku ruhu rwacyo kubera ko gihora mu mazi.

Inyamaswa zo mu gasozi ,abantu barazikunda cyane , kuko zituzanira ba mukerarugendo, bakadusigira amafaranga yateza igihugu imbere .Ugasanga ni nziza cyane kandi kuko zitaba mu rugo, iyo umuntu ayirebye yumva yakomeza kuyireba kuko abona itandukanye n'iy'iwanyu.

Inyamaswa zo mu gasozi abantu barazikunda cyane. Kuko zituzanira abakerarugendo. Nk'iyo baje kuzireba usanga badusigiye amafaranga tuzakoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ugasanga aho ziri zimeze neza cyane. Abantu bakunze kuzireba kandi bakazitaho neza.

Inyamaswa zo mu gasozi ni nziza cyane nk'inyamaswa y'inyoni igira icyari itahamo, ugasanga ijyanyemo ibyo kurya mu gitondo igisohotsemo igiye gushaka ibyo kurya, ugasanga hari amagi yateyemo ikayaturaga ugasangamo havuyemo utunyoni twinshi cyane, kuko inyoni ntabwo ziba mu nzu zibera mu cyari, mu giti runaka cyangwa ahantu runaka.

Inyamaswa zo mu gasozi ni nziza cyane kuko abantu barazikunda cyane, kuko ziduha amafaranga , ugasanga abakerarugendo bazisuye badusigiye amadolari bakayavunjamo amafaranga y'amanyarwanda ugasanga ibintu ni byiza cyane ,kuko na we iyo uzirebye usanga zibereye amaso. Kandi n'iyo uzibonye kuko udahora uri kuzibona, wakomeza kuzireba kuko ziba ari nziza cyane.

Inyamaswa zo mu gasozi ziba nziza cyane, abantu barazikunda cyane, kuko zituzanira abakerarugendo ugasanga badusiye amafaranga, ugasanga Igihugu giteye imbere. Kandi n'iyo umuntu ari kuzireba, usanga ari byiza cyane, kuko ubona zitandukanye n'inyamaswa zororwa mu rugo, ugasanga zitandukaniye kure. Niyo mpamvu umuntu ahora azireba, kugira ngo akunde azirebe zitandukanye n'izindi.

Inyamaswa zo mu gasozi ziba nziza cyane, kuko zituzanira abakerarugendo, bakaza kuzisura batuzaniye amafaranga y'amadolari cyangwa amadovize ,ugasanga ibintu birimo biragenda neza baduteje imbere, ugasanga abantu bose barazikunze kuko zituzanira umusaruro ushimishije.

Inyamaswa zo mu gasozi ziba nziza cyane, ariko inyamaswa y' inzoka ntabwo ari inyamaswa nziza cyane kuko ishobora kukurya, ikagutera ubumara mu mubiri ku buryo wabura aho wivuriza ugasanga urwaye kanseri cyangwa ugasanga ukurijemo urupfu, kubera ko ari inyamaswa mbi cyane sinyikunda no kuyireba n' ubu ndi kubona inteye ubwoba.

Inyamaswa zo mu gasozi ziba nziza cyane kuko abantu barazikunda cyane, zituzanira abakerarugendo bakadusigira amafaranga ateza igihugu imbere, n'iyo ubonye ingagi ukuntu iba imeze wumva wakomeza kuyireba. Abantu benshi bajya kuyitegereza kuko ikora ibikorwa bimeze nk'iby'abantu, ugasanga abantu barayikunda cyane kurusha izindi nyamaswa zo mu gasozi.

Inyamaswa zo mu gasozi zizana abakerarugendo bakadusigira amafaranga, abakerarugendo barazikundaga cane kujya kuzisura.

Inyamaswa zo mu gasozi ni inyamaswa nziza cyane, ariko zikunze kuba mbi kuko zifata nk'inyamaswa ziba mu rugo nk'inkoko, zikaba ziraziriye, ugasanga abantu barahombye, babuze amafaranga, babuze n'ibibatungira umubiri, kubera ko inyamaswa zo mu gasozi, zazisahuriye inyamaswa ziba....

Inyamaswa zo mu gasozi ni nziza cane kuko zituzanira amafaranga y'abakerarugendo, mu birunga zikunze kubayo, abakerarugendo baza kuzireba, bagasiga amafaranga tuzakoresha mu Rwanda.

Ingagi ni inyamaswa imeze nk'abantu, ahantu hose usanga ibyo umuntu akora na yo yabikora, iba mu birunga muri parike y'Ibirunga, ugasanga ni ho zibera ziganje abakerarugendo baza kuzisura bakadusigira amafaranga, ugasanga aduteje imbere, tugize ubukungu mu Gihugu cyacu.

Inyamaswa zo mu gasozi abantu barazikunda cyane kuko ziba zidakunze kuboneka ahantu hose, usanga bazibonye bazitegereza cyane ugasanga zidukururiye abakerarugendo, badusigiye amafaranga badusi amadovize ugasanga twiteje imbere kubera ayo mafaranga y'abakerarugendo, kandwi nbyo zikora kuko uba udahora uzibona ubona ari byiza cyane ukumva wakomeza guhora uzireba.

Inyamaswa zitororerwa mu rugo ziba zishimishije cane, kuko usanga abakerarugendo bagiye kuzireba bakadusigira amafaranga azadutungira ubuzima bwacu bwa buri munsi. Aho ziri usanga hameze neza kandi zitaweho cane.

Urukwavu ruba rwiza cane, kuko mu kibuti cyarwo, ruhagira isuku, ntabwo ruja rusoba ahantu hose, rugira ahantu rusoba hamwe gusa.

Inyamaswa zitororerwa mu rugo, aba ari inyamaswa nziza cyane kuko abantu bazireba bakadusigira amafaranga nk’abakerarugendo. Ntizikonsoma ibintu byinshi byo mu rugo, ngo barazitaho abakozi. Ziba zibera mu gasozi, nta kibazo ziteye.

Inyamaswa zo mu gasozi ziba nziza cyane, kuko zituzanira abakerarugendo. Ugasanga nk'inyamaswa y'ingagi ifite umwana iramwonsa, iramusigatira, ugasanga ni ibintu byiza ku buryo buri wese yifuza kuyitegereza, kuyireba, kubera ibintu byiza ikora. Ikora ibintu bimeze nk'iby'abantu, kuko wagira ngo ni umuntu. Ni yo mpamvu abantu bayikunda cyane.